Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, icyo cyapa kikaba kirimo ikirango kirimo inzoka yizingiye ku giti, icyo cyapa kikaba gisobanura umuryango wita ku buzima.

Abajyanama b'ubuzima bicaye mu cyumba kimwe kinini, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bose bambaye amataburiya y'ubururu, bafite imisatsi mikeya abenshi bambaye ibitenge, bafite amakayi bari kwandikamo ibintu bari kubwirwa.

Abantu benshi b'igitsina gabo bahuriye mugikorwa runaka bari munsi y'igiti, hari umugabo wicaye ku gatebe imbere yabo afite ikayi asa nk'uri kubandika, abo bantu biganjemo abambaye imipira yumweru icyatsi umutuku ndetse n'umukara.

Abaturage batatu bari ku ivome rusange, harimo umugabo umwe harimo n'abagore babiri, umugore umwe yambaye ijiri y'umuhondo yambaye n'umupira w'umweru. Undi yambaye umupira w'umukara, ivomero rifite robine ebyiri bateretseho amajerekani abiri.

Ivomero rusange riri ahantu hagati mu kibuga, rikikijwe n'abana bane b'abahungu baje kuvoma, bafite ikijerekani bateretse hagati kugira ngo kijyemo amazi, abana batatu bambaye amakabutura, undi yambaye ipantaro.

Abantu biyubashye bahuriye mu gikorwa runaka, harimo abagabo bambaye amakositimu y'umukara hari n'abatambaye ay'umukara, harimo n'umuzungu umwe aho bahuriye mu nama yiga ku bintu runaka, bakaba bahagaze baseka basa naho bari gusezeranaho bigaragara ko igikorwa bari barimo kirangiye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere, kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, kirimo n'ikirango kirimo umugore uteruye umwana mutoya, cyanditseho UNICEF, bisobanura umuryango wita ku bana batoya.

Abantu benshi basa n'abari mu gikorwa kimwe, higanjemo abagabo bambaye amapantaro y'imikara, harimo n'umuzungu wambaye isarubeti y'umutuku, iruhande rwe hari umugore wambaye ijipo ndende abo bantu bose bambaye amataburiya y'imyeru.

Ivomero rusange ryahuriyeho abantu benshi cyane, hari abagore n'abagabo, bamwe bafite ibijerekani by'umuhondo abandi bafite iby'ubururu, ivomero riri ahantu mu ishyamba hari ibiti birebire cyane, ritanga amazi meza abaturage bakoresha.

Ivuriro ririmo abantu bari guterwa urushinge, hari abaforomo babiri bambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse namakanzu y'ubururu bari kuba batera urushinge, umumama wicaye imbere bisa naho yarutinye cyane kuko yahumirije afite agasakoshi k'ubururu mu ijosi.

Abantu babiri bicaranye, umwe yarangaye undi afite indangururamajwi ari kuvuga ijambo, umugabo yambaye umupira w'umukara ufite akantu k'icyatsi ku ruhande, umugore yambaye ishati yo mu gitenge ifite amabara y'icyatsi, umutuku, umuhondo ndetse n'umweru.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru, ufite ibisuko by'umukara, washyize amaboko ye ku mutwe yombi bigaragara ko afite ikibazo cyo kuribwa mu mutwe, akeneye umuganga umwitaho kugirango amuvure, akire.

Abana benshi bagiye kuvoma basa nk'aho bari ahantu mu cyaro, umwe yambaye ibirenge abandi bambaye inkweto, bari kureba imbere baseka bishimye bameze nkaho barangamiye umuntu uri kubavugisha.

Abagabo n'abagore bahagaze hamwe, abagabo bambaye kositimu, abagore bambaye amajipo bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma yuko bavuye mu gikorwa runaka, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho ubutabera bisa n'aho ari ibyo bitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu yubakishije ibiti, imbere yayo hari abamama babiri bateruye umwana mutoya, bari kumusuzuma kugira ngo barebe ikibazo afite mu mubiri, umuganga waje kumusuzumira mu rugo ari kumwereka ibipimo yamupimye, kugira ngo bamenye uko bamuvura.

Inyubako irimo amarido asa shokora, yicayemo abantu bicaye bazengurutse, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ku meza, hagati harimo umugore wambaye ikanzu y'umweru asa nk'aho ari kubagezaho ijambo yabateguriye.

Umuganga wita ku ndwara zo mu kanwa, yambaye amadarubindi, afite agasatsi gakeya, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, yasamishije umwana mutoya, ari kumureba mu kanwa kugira ngo amenye ikibazo afite, bityo abone uko amuvura.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, harimo ikimashini kimwe gisa ibara ry'umweru, harimo mudasobwa iri hejuru y'icyo kimashini, ku ruhande hari intebe y'umukara yicarwaho n'umuganga mu gihe ari gusuzuma abarwayi.

Inyubako yo kwa muganga irimo abaganga batatu bita ku ndwara zo mu kanwa, harimo abaganga batatu bambaye udupfukamunwa, bambaye amatabuririya y'imyeru, umuganga ufite ibisuko by'umukara ari kureba ikibazo umukobwa wicaye imbere ye afite mu kanwa.

Abanyeshuri bishimye cyane bari guseka bambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'ibara risa n'ivu, bazamuye amaboko yabo hejuru, bafite ibintu by'umutuku bimeze nk'amabiswi urabona ko bishimiye umwarimu wabo.

Abantu bari mu nyubako yiganjemo amabara y'umweru, irimo amatara meza cyane agezweho, abo bantu bari ku meza bari gufata ifunguro ryujuje intungamubiri, umugabo umwe yambaye ishati y'amaboko ifite amabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Inyubako irimo abantu babiri bashaje, umugabo yambaye amadarubindi, umugore yambaye amaherena, bambaye imipira y'umutuku bombi, umugore yambaye umupira urimo imirongo y'umukara, bari kureba imiti bagiye kunywa bategetswe na muganga kugira ngo bazakire neza.

Niba muganga aguhaye imiti ni ngombwa ko uyifatira ku gihe kugira ngo ukire neza, aha ngaha hari abantu babiri, umwe wambaye umupira w'umutuku, undi wambaye umupira w'ubururu, basa nkaho bakuze cyane barikuywa imiti bahawe na muganga kugira ngo bakire.

Ubusitani bwiza burimo ibiti bitandukanye, imbere yabwo hicaye abantu babiri, harimo umuforomokazi ndetse n'umugabo ari gusuzuma, uwo muforomokazi yambaye ishati y'icyatsi, umugabo yambaye ishati y'ubururu, bombi bambaye udupfukamunwa.

Abantu babiri bicaranye ku meza amwe bari mu nyubako ifite ibara risa umweru, umuganga yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, afite imisatsi myiza ari kumwe n'umugabo usheshe akanguhe, umugabo nta musatsi afite, yambaye ishati iri mu ibara risa igitaka, umuganga ari gusuzuma uyu mugabo.

Umuforomokazi wita ku bantu bakuze, afite ibisuko biryamye ku mutwe, yambaye imyenda yubururu, mo imbere yambaye umupira ufite amaboko maremare, ndetse umumama afasheho yambaye amaherena, bombi bari guseka barishimye cyane.

Ubusitani bwiza cyane bukeye, imbere yabwo hakaba hicaye abantu babiri, uwambere yambaye imyenda y'umutuku, uwa kabiri yambaye ikanzu yo mu gitenge, uwambaye imyenda y'umutuku akaba ari umuforomokazi, akaba ari kuvura uyu mukecuru wambaye ikanzu yo mu gitenge.

Inyubako nini cyane yiganjemo amabara y'ubururu n'umutuku, irimo abantu benshi batandukanye, baje mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru wahariwe kurwanya Sida, imbere y'abo bantu hari ababyinnyi babyina imbyino za kinyarwanda.

Inyubako y'ibitaro irimo abaganga batandukanye, bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda y'icyatsi, bakikije umurwayi warembye cyane, hari umuganga umwegereye uri kumuvura kugira ngo arebe ko yakira.

Inyubako nini cyane yahuriyemo abantu bari mu nama, abo bantu biganjemo abagore n'abagabo, imbere muri iyo nyubako hari icyapa kirimo amabara y'ubururu, kiriho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, icyo cyapa gisobanura ko bari kwiga ku kibazo cya SIDA muri Afurika.

Abagore bane bishimye basa naho bari guseka, bazengurukijwe n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, umugore umwe yambaye imyenda y'umutuku babiri bambaye iy'ubururu, undi yambaye iyo mu gitenge, bari ahantu mu busitani bufite ibiti birebire cyane.

Umugabo wirabura, uhagaze imbere y'icyapa kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, afite ijambo ari kugeza ku bantu, yambaye kositimu, yambaye na karuvati irimo imirongo, iruhande rwe hari icyapa kiriho undi mugabo na we wambaye kositimu.

Umuntu wagize ikibazo cy'umutima ari kwitabwaho n'abaganga babiri bambaye amataburiya y'imyeru, abo baganga bari gufashwa n'abandi bagabo batatu na bo bambaye udupfukamunwa ndetse n'amajire y'icyatsi, bari mu busitani bwiza inyuma yabo hari igiti kirekire.

Abantu benshi bari mu nyubako isize amabara y'ubururu, bateranranijwe n'igikorwa cyo kwiga kuri Marburg kugira ngo bayihagarike, imbere yabo hari abagabo babiri bambaye kositimu, umwe ari kuvuga afite ijambo, afite icyo ari kubagezaho.

Inyubako irimo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari abagabo babiri bahicaye, bombi bambaye karuvati ndetse bambaye na kositimu, inyuma y'abo bagabo, hari icyapa cyanditseho kurwanya Marburg isa nk'aho ari yo nsanganyamatsiko bari kuganiraho.

Inyubako nini cyane yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, ifite parafo hejuru, ikagira n'amakaro y'umweru, yanditsemo ijambo: "nurse" bisobanura abaforomokazi.

Inyubako nziza y'igorofa igeretse kabiri, imbere yayo hari abantu bambaye amashati y'ubururu, hejuru hari ikirere gifite ibara ry'ubururu n'umweru ndetse hasi hari umuhanda w'igitaka ugendwaho n'abanyamaguru.

Umumama uhagaze imbere y'inzu nini cyane y'ibitaro, iyo nzu yanditseho Kigina Health Center, ikaba ikoreramo ibitaro bya Kigina, uwo mumama ahetse umwana mutoya, aje kumuvuriza kuri ibyo bitaro.

Inzu yubatse mu buryo bwa gakondo, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bahagararaho, hari n'ibyo bicaraho bagamije kurambura umubiri, kugira ngo ukore neza kandi umererwe neza.

Inyubako nziza iri mu ibara ry'umweru, irimo abaganga bane bari gusuzuma imiti, bari kureba neza niba iyo miti ifite ubuziranenge, kugira ngo izagirire akamaro abarwayi, abo baganga barimo abasore babiri, hakabaho n'abagore babiri.

Icyumba kigari cyane bigaragara nkaho ari icyo kwa muganga. Kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'akabati gafite ibara ry'umuhondo, harimo agatanda kazengurukijwe n'ibyuma, gifite amarido y'umweru kikagira parafo nziza hejuru ndetse gifite n'amakaro hasi.

Inyubako nziza cyane iri mu mabara y'umweru, ifite parafo y'umweru, hejuru ifite inzugi ziri mu mabara y'igitaka, irimo ibyumba byinshi bigiye bitandukanye, hasi ifite amakaro ari mu mabara abiri, iyi nyubako isa naho ari ibitaro byo kwa muganga.

Ikirere cyiza cyane kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, hasi hari inyubako y'amagorofa menshi agiye atandukanye, imbere y'iyo nyubako, hari ubusitani bwiza ndetse hari n'amatara amurikira abagenzi bahagenda.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amabati y'ubururu ikagira inzugi n'amadirishya bisa umweru, iyi nyubako yanditseho ijambo Maternite, bisobanura inzu y'ababyeyi, ari na ho ababyeyi babyarira igihe bagiye kwa muganga.

Inyubako yicayeho abantu benshi batandukanye, harimo abambaye amataburiya y'ubururu, harimo abambaye imikenyero, harimo n'abamansera bahagazemo, iyi nyubako yanditseho materinete bisobanura inzu ababyeyi babyariramo kandi iyi nyubako ifite amabati y'ubururu.

Icyumba kigari cyane kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo ibyiganjemo iby'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa iri kugaragaza amashusho, icyo cyumba hasi gifite ibara ry'ubururu, ku bikuta gifite ibara ry'umweru. Kirasa naho ari icyo kwa muganga.

Inyubako nziza cyane igeretse rimwe, hejuru hari ikirere kirimo amabara y'ubururu n'umweru, iyo nyubako ifite amadirishya afite ibara ry'ubururu, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo ibiti by'imikindo ndetse iruhande rwayo hari imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Inyubako nziza, iri mu ibara ry'umweru, ifite icyapa hejuru kiriho uturongo turangira abantu aho bagomba kujya, irimo ibyumba bitatu bigiye biriho nimero, icya mbere cyanditseho kirinike.

Inyubako nziza y'ivuriro, imbere yayo hari Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, iyi nyubako ni iy'ibitaro byitwa CHUB, bikorera mu karere ka Huye, bikaba byita ku barwayi batandukanye bafite ibibazo bitandukanye.

Inyubako nziza irimo amabara agiye atandukanye, harimo intebe ziticayeho abantu, imbere y'izo ntebe hari igishushanyo cy'Akanyamasyo kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi, iyo nyubako na yo igizwe n'amabara y'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Umusore ufite ubwanwa bukeya, afite akaboko kanini, bisa naho yateruye ibyuma, afite isume mu ijosi, bisa naho agiye gukora isuku y'umubiri we, ari kunywa amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ivarisi nini cyane irimo ibikoresho bifashisha kwa muganga bavura, iyo ivasi yiganjemo amabara y'umutuku, icyatsi ndetse n'umukara, ibyo bikoresho harimo nk'imikasi, amasaha ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako irimo abantu babiri, umwe akaba ari umuganga, undi akaba ari umurwayi, iyo nyubako irimo amarido y'ubururu, umuganga ari gukoresha icyuma cyabugenewe mu gusuzuma, ari kuvura uyu murwayi.

Umuntu wambaye isengeri yiganjemo amabara y'ubururu, umukara, icyatsi n'umweru, afite isume mu ijosi, ari kunywa amazi akoresheje icupa rifite umufuniko w'ubururu nta musatsi afite asa nk'umuntu uvuye muri siporo.

Kugira ngo umubiri wawe umere neza bigusaba gukora imyitozo ngororamubiri, aha baratwereka abakobwa batandukanye barimo imyitozo ngororamubiri hari uwazamuye akaguru, abarambuye amaboko, abasutamye ndetse n'abandi.

Icyapa kiri mu ibara rijya gusa n'igitaka, kirimo ikirangantego cy'umuryango Kuruwa ruje ukorera mu Rwanda. Icyo kirango kirimo umusaraba w'umutuku ndetse icyapa kivuga ko gitanga amahugurwa ku butabazi bw'ibanze.

Umukobwa wicaye ku buriri buriho amashuka afite ibara risa n'ivu, yazamuye amaboko ye yombi, yambaye ipantaro yumukara ndetse n'agasengero k'umukara, afite ibisuko birebire cyane, yicaye asa nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we urambuke kandi umere neza.

Umuntu wicaye hasi kuri sima, yambaye umupira w'umuhondo, yambaye n'ipantaro y'umukara, inkweto ze zirimo amabara y'umukara n'umweru, yarambuye akaguru kamwe yagashyizeho amaboko bisa nkaho ari muri siporo, inyuma ye hari ubusitani bwiza cyane.

Ikirere cyiza cyane cyiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, imbere hari umukobwa wambaye isume mu ijosi, ari kunywa amazi akoresheje icupa ry'ubururu n'umweru, afite umusatsi mukeya cyane, ameze nk'umuntu uvuye muri siporo.

Ibiganza by'umuganga wita ku bibazo by'ingingo z'umubiri, ari gusuzuma umugabo wambaye ikabutura, yamufashe mu ivi, ari kuhakanda kugira ngo yumve ikibazo afite, umuganga yambaye itaburiya y'umweru afite n'ikintu yifashisha gusuzuma mu ijosi.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri wacu umere neza, aha hari umugabo wambaye imyenda y'umukara n'umutuku, yambaye inkweto zifunze, yazamuye akaguru kamwe akandi kari hasi, yamanuye amaboko ye asa nk'uri gukora siporo.

Abaganga bari mu mahugurwa yerekeranye n'ibyo kuvura, biganjemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari umugabo umwe uri kubasobanurira, yaberetse mudasobwa irimo ifoto y'umuntu, bari kuyiganiraho kugira ngo bige uko bavura neza.

Kugira ngo ubuvuzi bukorwe neza, hagomba kuba hari ibikoresho by'ibanze, muri ibyo bikoresho twavugamo nk'inshinge, imikasi, amatoroshi, ibinini se, cyangwa se udupimabushyuhe.

Hari ibitaro byinshi byita ku bantu bavunitse, bigasubiranya ingingo z'umubiri wabo. Aha muri ibi bitaro harimo abaforomokazi bari kwita ku mugabo wavunitse, iruhande rwe hari abagabo babiri bambaye kositimu basa n'aho bumiwe, batangajwe n'ukuntu yavunitse bikomeye cyane.

Inyubako irimo amabara y'ubururu, irimo sima isa icyatsi, iyo nyubako imbere harimo umugabo wambaye umupira w'icyatsi, yambaye n'ipantaro y'umukara, afite icyatsi mu ntoki bisa n'aho bagikoramo umuti wa gakondo.

Igiti kitwa umuravumba kivura indwara nyinshi zitandukanye, hari ubwo bakigukandisha wavunitse cyangwa se ukakinywa kugira ngo ukire inkorora, ni byiza ko tubungabunga ibiti kugira ngo tujye tubona ibyo dukuramo imiti gakondo.

Ibikombe bitatu biturutse ku gatanda kari mu ibara ry'umweru, ibyo bikombe bigizwe n'ibara ry'umutuku, birimo ubutaka, biteyemo ibiti bikorwamo imiti ya gakondo, iyo miti ivura abantu bagakira indwara zitandukanye.

Ubuvuzi bwa gakondo bwifashisha imiti itandukanye cyane cyane harimo imiti y'ibyatsi, aha hari uducupa tubiri turimo umuti w'umuhondo, hari agasekuru bari gusekuriramo imiti yo kuvura abantu kugira ngo bakire.

Hari imiti myinshi ikorwa mu gikakarubamba, kugira ngo yite ku bantu bafite ibibazo bijyanye n'indwara za gakondo. Aha hari icupa risa umuhondo, rifite umufuniko w'umutuku, ryanditseho n'amagambo y'umutuku, iryo cupa ririmo umuti w'igikakarubamba ukoreshwa mu kuvura abantu.